Mu rwego rw'uburezi abarera abana b'incuke batangaza ko kuba barabonye ibikorwaremezo nk'amashuri, cyangwa se inyubako bahuriramo, byabarinze ibibazo bitandukanye urugero nko kuba banyagirwa n'imvura, kwicwa n'izuba, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bashyiriweho uburyo babasha kuba bakora isuku kuko babashyiriyeho uturobine aho babasha gukaraba intoki, ikindi kandi kuba bafite amazi yifashishwa mu gukora amasuku agiye atandukanye bibafasha kwirinda indwara zishobora guterwa n'umwanda.

Igikuta k'inzu gishushanyijeho igishushanyo cy'umweyo ndetse n'ibasi, bigaragara ko ari ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku igiye itandukanye, ikindi kandi hirya yaho hari umuntu uhagaze.

Ibigo birera abana b'inshuke bagira ibyumba byabugenewe, aho bahurira abana kugira ngo babashe kuba babona amata bityo babafashe kuba bagira imikurire myiza, babashe kuba bakiga badafite imbogamizi.

Abana biga mu mashuri y'incuke bifashisha ibikoresho bitandukanye, bibafasha nk'imfashanyigisho kugira babashe kuba basobanukirwa neza amasomo yiga. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga nk'ibishushanyo, ibipupe bibafasha kugira babashe kuba basobanukirwa neza ibyo babigisha.

Ibigo by'amashuri birera abana b'inshuke, bifashisha ibishushanyo aho bashushanya ubwoko bw'ibikoresho bikoreshwa kugira ngo babashe abanyeshuri basobanukirwa ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye.

Ni byiza ko ababyeyi basobanukirwa akamaro ko kohereza abana bakiri bato kujya kwiga mu mashuri y'incuke kuko bafite abarezi babitaho bityo bagakora bafite ubwenge, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kohereza abana mu mashuri y'inshuke kuko biga uburezi bugiye butandukanye.

Ibigo birebara abana b'inshuke binezezwa no kuba bafite ibikoresho birimo ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo barere aba bana bibafasha kugira ngo aba bana bagire imikurire myiza bityo bakure bafite ubwenge.

Abana bato biga mu mashuri y'incuke bakaba bari ahantu bakorera imyicundo barya umunyenga, inyuma yabo hakaba hari abarezi babo bambaye imyambaro y'umuhondo n'umukara hasi, hirya yabo hakaba hari ibiti.

Ibigo birera abana b'inshuke binezezwa no kuba barashyiriweho ibikorwa remezo bibafasha mu gukina imikino itandukanye harimo ibibuga ndetse n'inyubako, ikindi kandi babakangurira gukina hamwe batavangura cyane cyane bita ku bafite ubumuga kugira ngo babashe kuba basabana n'abandi.

Ibigo bireba abana b'incuke binezezwa n'uko bifashisha ibikoresho ndetse n'imfashanyigisho zitandukanye zirimo nk'ibishushanyo, bibafasha kugira ngo bigishe kandi basobanurire neza abana bato, ni byiza ko twifashisha ibishushanyo bitandukanye kugira ngo twigishe kandi duhugure abana bato.

Ibigo birebara abana b'inshuke, bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bafashe abana kwiga, aho bifashisha amashusho agiye atandukanye ndetse n'ibibumbano bibafasha kugira ngo basobanukirwe amasomo biga.

Hirya no hino mu gihugu hubatswe amarerero afasha abana bakiri bato kugira ngo babashe kuba bakigishwa bityo bazakure bafite ubwenge bugiye butandukanye, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kohereza abana mu mashuri y'inshuke kuko bahigira uburezi bw'ibanze.

Ibigo birebara abana b'inshuke bigira ibibuga ndetse n'ibikoresho bitandukanye bifasha abo bana kugira ngo bakine bidagadura ndetse bakora n'imyitozo ngororamubiri ikindi kandi bikaba bibafasha kugira ngo bige neza baruhutse mu mutwe.

Ibigo birera abana b'incuke byifashisha ibikoresho bitandukanye bifasha kugira ngo basobanurire abanyeshuri amasomo yabo, aho bifashisha amashusho ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo babasobanurire.

Ibigo byigisha abana b'inshuke byifashisha ibikoresho bitandukanye birimo ibibaho bibafasha kugira ngo babashe kwandika ikindi kandi baba bafite ibikoresho bitandukanye birimo ameza ndetse n'intebe kugira ngo abana babashe kwiga batekanye.

Ibigo birebara abana b'inshuke, byifashisha ibikoresho bitandukanye, bibafasha kugira ngo babashe kwigisha abana babo, ibi bikoresho byifashishwa nk'imfashanyigisho kugira ngo babashe kuba basobanurira abana bakiri batoya, bityo babashe kuba basobanukirwa ibyo babigisha.

Ibigo byigisha amashuri y'inshuke bifashisha ibikoresho bitandukanye birimo ibipupe by'ubwoko butandukanye bibafasha kugira ngo babashe gusobanurira abana ibyo babigisha, bityo babashe kuba batsinda.

Ibigo by'amashuri y'incuke binezezwa n'uko kuba bifite inyubako zigiye zitandukanye zibafasha kugira ngo babashe kuba bakakira abana benshi. Bibarinda kugira ngo habe hagaragara ubucucike mu mashuri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba imbogamizi mu burezi.

Icyumba cy'ishuri cyubakishije amatafari gifite irangi ry'umuhondo, inzugi ndetse n'amadirishya ariho ibirahure, imbere yaho hari abana n'ababyeyi babo ikindi kandi bari kumwe n'abarezi abarimu babo.

Mu bigo by'amashuri bagira ibikorwaremezo bitandukanye, byiganjemo ameza ndetse n'intebe n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abanyeshuri kugira ngo babashe kuba bakiga neza, bityo babashe gutsinda.

Mu bigo by'amashuri abanza byifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo abana bige neza isomo ry'imibare, aho bifashisha amarati, amakompa ndetse n'ibindi bikoresho bibafasha kugira ngo bige isomo ry'imibare neza.

Ibigo by'amashuri abanza byifashisha ibikoresho bitandukanye nk'imfashanyigisho kugira babashe gusobanurira abanyeshuri neza bityo bikabafasha kuba bakumva ndetse bakanasobanukirwa neza amasomo biga, ni byiza ko twifashisha imfashanyigisho zitandukanye kugira ngo dusobanurire abana bakiri bato ibijyanye n'amasomo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bifashisha ibikoresho bitandukanye, birimo amakaramu, amakaye ndetse n'amakereyo. Bibafasha kugira ngo babashe kuba bakwiga imibare, ndetse n'andi masomo agiye atandukanye. Bityo kugira ngo babashe gutsinda neza.

Inyubako y'ishuri igezweho iri mu bwoko bw'igorofa ikaba ifasha kugira ngo abanyeshuri babashe kuba bakiga neza, ikindi kandi iyi nyubako ikaba iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, ikaba yubakishije amatafari, isakaje amabati y'ubururu.

ibigo by'uburezi by'umwihariko amashuri abanza anezwa nuko bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange uburezi bufite ireme, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga nk'intebe utubatiba byo kwandikwaho ndetse no kuba bafite abarezi babigisha kugira ngo uburezi bwabo bugende neza.

Mu bigo by'amashuri abanza bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo basobanurire abanyeshuri amasomo biga, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ibishushanyo by'isaha ndetse n'ibindi bishushanyo by'ubwoko butandukanye.

Abana biga mu mashuri abanza bifashisha ibikoresho bitandukanye mu myigire yabo, tumwe muri ibyo bikoresho twavuga: amakaramu, amakaye ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kuba bagira imyigire myiza.

Mu bigo by'amashuri bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri kugira ngo babashe kwiga neza, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ameza, intebe, utubati, ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza.

Ibigo bitanga uburezi mu mashuri abanza binezezwa no kuba bafite ibikoresho bitandukanye birimo: intebe, ameza ndetse n'inyubako bibafasha kugira ngo barere abana, ikindi kandi abana bagomba kuba babisigasira birinda kubihagarara kugira ngo bitangirika.

Ibigo by'amashuri abanza byifashisha ibikoresho bitandukanye nk'imfashanyigisho kugira ngo bajye babasha gusobanurira abana amasosomamo biga, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gufasha abana bakiri bato mu burezi bwabo twifashishije ibikoresho bitandukanye nk'imfashanyigisho zigomba kuba zabafasha.

Hirya no hino mu Gihugu hagaragara ibikorwa remezo by'amashuri by'umwihariko amashuri abanza aho abanyeshuri bahurira kugira ngo babashe kuba bakurikirana amasomo yabo neza, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kurengera ibi bikorwa remezo kugira ngo abana babashe kuba bahabwa uburezi bufite ireme.

Ibigo byigisha abana mu mashuri abanza, bifashisha ibikoresho bitandukanye birimo ibipupe ndetse n'izindi mfashanyigisho zitandukanye, abana bifashisha kugira ngo babashe gusobanukirwa neza amasomo yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha ibikoresho bitandukanye iyo barimo biga imibare, cyane cyane nk'igikoresho cyitwa bowate matematikale, aho basangamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kuba bakiga isomo ry'imibare.

Abana biga mu mashuri abanza ni byiza ko hifashishwa ibikoresho bitandukanye byifashishwa nk'imfashanyigisho kugira babashe kuba babasobanurira amasomo yabo bityo abashe kuba yakumvikana neza, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha izi mfashanyigisho kugira ngo tubashe kuba twafasha abana bakiri bato.

Ibyumba by'amashuri bigizwe n'inyubako ebyiri, hafi yaho hakaba hari ikibuga kiriho abana batandukanye, bari kumwe n'abarezi babo, bakaba bari gukina imikino igi itandukanye kugira ngo babashe kuba bakishima.

Mu bigo by'amashuri abanza, bifashisha ibikoresho bitandukanye bifasha mu masomo yabo, cyane cyane iyo biga imibare bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kuba basobanukirwa neza amasomo biga, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kohereza abana mu mashuri.

Mu bigo by'amashuri abanza, bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga imibare, birimo amarati ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho abanyeshuri babyifashisha kugira ngo babashe kuba bakurikirana neza amasomo biga ajyanye n'imibare.

Ibigo by'amashuri abanza byafashije abaturarwanda kuba bazamuka mu burezi, aho bifasha abana biga amashuri abanza kuba batangira amashuri yabo ku gihe, ikindi kandi izi nyubako zafashije abaturarwanda kugira ngo bohereze abana babo ku mashuri, bityo babone uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, imbere yabo hakaba hari umunyeshuri w'umukobwa uri gusoma ikayi ikindi kandi hirya yaho hakaba hari umurezi, bakaba bari kwiga amasomo agiye atandukanye.

Ibigo by'amashuri yisumbuye bitandukanye bigira ahabugenewe bakarabira intoki, aho abanyeshuri bakangurirwa gukaraba intoki bagiye kurya cyangwa n'ikindi gihe cyose kugira babashe kuba bagira isuku bityo biririnde indwara zishobora kuba zaterwa n'umwanda.

Mu bigo by'amashuri yisumbuye, abiga amasomo agiye atandukanye baba bafite ibyumba byabugenewe, aho haba harimo imashini zitandukanye zibafasha kugira ngo bige amasomo agiye atandukanye, bityo bagasobanukirwa neza akamaro ko kwigira kuri ibyo bikoresho.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru n'ubururu, bakaba bari kumwe n'abarezi babo ku rubaraza rw'ishuri, ikindi kandi ibi bigo bikaba bifasha abana kubona uburezi ndetse n'ubumenyi, butandukanye.

Ibigo by'amashuri bigira ibikorwaremezo bitandukanye, birimo inzira zigerayo ikindi kandi ibigo bikaba bifite ibidukikije bitandukanye birimo indabo, ndetse n'ibiti bishobora kuba byatanga umuyaga, bityo abanyeshuri bakiga neza.

Mu Karere ka Nyagatare ibigo by'amashuri bashyiriweho uburyo babasobanurira kwirinda ibikoresho bitandukanye kuko bishobora kuba byabatera indwara, bityo ikindi kandi bahabwa n'amahugurwa ajyanye n'ubuzima bwabo kugira ngo babashe kuba barengera ubuzima bwabo.

Kuba mu bigo by'amashuri abana bigishwa ibijyanye n'ikoranabuhanga aho babigisha mudasobwa, bifasha abanyeshuri kuzamuka bafite ubumenyi ku ikoranabuhanga, bityo ikindi kandi bibafasha kuba bakihangira imirimo itandukanye mu ijyanye n'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri benshi bicaye hanze munsi y'ibiti, imbere yabo hakaba hari umuyobozi wabo uri kubaganiriza ku ngingo zigiye zitandukanye, ikindi kandi uko kuganira bifatirwamo imyanzuro igiye itandukanye.

Ibigo by'amashuri bigira inyubako zigezweho aho zifasha abana kwiga neza ikindi kandi izi nyubako ziba zubatse ku buryo bugezweho aho ziba zifite imbaragara kugira ngo abana bige neza.

Abantu bari muri sare y'inyubako nini bakaba bambaye abandi bafite amajire mu ntoki bakaba bari kugenda, iyi nyubako ikaba ifite irange ry'umuhondo ndetse n'inzugi n'ibirahuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse bakaba bambaye n'amakarita, bahagaze hafi y'igipangu gikingishije urugi rw'ubururu ikindi kandi hakaba hari n'ibyatsi bakaba bari kumwe n'umurezi wabo.

Mu bigo by'amashuri hashyirwaho uburyo butandukanye bwo kuba abanyeshuri bakora amasuku, aho hashyirirwaho inkarabiro cyangwa se uturobine tubafasha kugira ngo ba bakarebe, kugira ngo babe bakwirinda indwara zitandukanye, zishobora kuba zaterwa n'umwanda.

Uburezi kuri bose ni gahunda ya Leta igamije gukangurira abana bose kugana amashuri by'umwihariko abakobwa, abakobwa bashishikarizwa kuba bagana amashuri bityo bagasoza amashuri yisumbuye kugira ngo babashe kuba bagira ubumenyi, babashe kuba kandi bakihangira imirimo igiye itandukanye.

Uburezi kuri bose ni gahunda ya leta igamije gukangurira buri munyarwanda wese kuba yagana ishuri, aho hashyizweho uburezi bw'ibanze bw'imyaka cumi n'ibiri bufasha buri mwana wese w'u Rwanda kuba yagana amashuri, byibuze akarangiza amashuri atandatu yisumbuye cyangwa se segonderi.

Mu bigo by'amashuri bagira igihe bagahurira hamwe bityo bakaganira ku ngingo zigiye zitandukanye, ikindi kandi bagirwa inama zitandukanye ku buryo bagomba kwitwara, aha abanyeshuri bari mu ishuri bari kuganira ku ngingo zitandukanye hakaba harimo umunyeshuri umwe uhagaze uri kuvugira ku ndangururamajwi.

Mu bigo by'amashuri abanyeshuri basuzuma indwara zitandukanye, aho bifashisha ibipimo kugira ngo bapime niba umunyeshuri afite umuriro, bityo abashe kuba yakurikiranwa kugira ngo ubuzima bwe burengerwe.

ibigo by'amashuri yisumbuye bigira ibikorwaremezo, birimo amashuri, intebe zo kwicaraho, byo kwandikaho, aho abana babasha kwiga batekanye kugira ngo babashe kuba bakurikirana amasomo yabo nta mbogamizi.

Mu bigo by'amashuri bitandukanye, hakorwa ubukangurambaga kugira ngo basobanukirwe neza akamaro ko gukoresha amabanki bityo babashe kuba bakangurirwa kandi basobanukirwe akamaro ko kuzigama amafaranga kuko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Kuba amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ndetse na za kaminuza zigira ibikoresho byifashishwa mu mashuri twavuga nk'intebe, ameza ndetse n'ibindi bikorwaremezo bigiye bitandukanye bibafasha mu buzima bwabo bw'imyigire bityo bakabasha kuba bakurikirana amasomo yabo neza.

Inzego z'uburezi zikangurira abanyeshuri kuba batega imyuga itandukanye, twavuga gukora intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, kuko bibasha kubafasha kuba babasha kwiteza imbere aho bibazanira amafaranga.

Ku bigo by'amashuri atandukanye, hagaragara ibikorwa remezo, by'umwihariko haba hari ibyumba byigirwamo ikoranabuhanga, biba birimo mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bifasha kugira ngo abanyeshuri bamenye ikoranabuhanga.

Abanyeshuri biga muri za Kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, babasha kuhabwa amasomo atandukanye abafasha kugira ngo bazabashe kuba bakihangira imirimo, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kuba twagana amashuri y'imyuga n'ubumenyiyingiro kuko tubasha kwigira bishobora kuba byaduteza imbere.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyingiro banezezwa n'uko bumenyi ndetse n'uburezi bahabwa bubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko babwifashisha mu kugira ngo biteze imbere.

Abanyeshuri biga mu ma kaminuza ndetse n'amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro, babashije kuba babona mudasobwa zibafasha kugira ngo bige amasomo yabo, bityo babashe kuba batsinda neza ibijyanye n'uburezi biga.

Inzego z'uburezi zitandukanye, twavuga kaminuza ndetse n'ibigo by'imyuga, bifasha abanyeshuri kuba babona inzu zitandukanye aho bashobora gusiga amagare yabo, ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye gutyo, kugira ngo bigire umutekano.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro bigishwa uburyo bwo gukora ubuhanzi bushingiye ku byo baba bize kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere, aho bashobora kuba bakora ibihangano bigiye bitandukanye.

Icyapa kiriho amashusho agaragaza ubwoko bw'imyitozo ngororamubiri harimo ifoto igaragaza abantu bakina umupira ikindi kandi hirya y'icyo cyapa hagaragara inzu ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, babigisha gukora ibikoresho bitandukanye birimo ibikoze mu biti ndetse no mu mbaho, bityo bakaba babasha kwihangira umurimo bityo bakabasha kwiteza imbere.

Amashuri yigisha ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, akangurira abayaganada kuba basobanukiwe neza akamaro ko kuba bakora cyangwa se bahanga ibikoresho bitandukanye bifashishije ubumenyi baba barahawe, kugira ngo babashe kuba bakwiteza imbere.

Abanyeshuri basoje amasomo yabo muri za kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, bakangurirwa kuba bakihangira imirimo kuko baba bamaze kubona impamyabumenyi ndetse n'impamyabushobozi zibemerera gushyira mu bikorwa ibyo baba barize mu mashuri yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza ndetse n'amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro banezezwa n'uko baba bafite inyubako zibafasha kugira ngo babashe kuba bakiga neza bafite ibikorwa remezo.

Mu mashuri ya za kaminuza ndetse n'ay' imyuga n'ubumenyingiro, mu byumba bigiramo haba harimo ibikoresho bitandukanye, birimo intebe zo kwicaraho ndetse n'amezaza, ikindi kandi abanyeshuri baba bafite mudasobwa zibafasha kugira ngo babashe kuba bakurikirana neza amasomo biga.